Umu papa aragaragara ndetse n'umwana we bari kwirinda indwara zigiye zitandukanye z'amenyo bakora imyitozo itandukanye.

Ubukangurambaga buri gutangwa ku bakeneye serivisi z'ubuvuzi harimo kubakingira ndetse no kubasuzuma indwara zigiye zitandukanye zirimo malariya ndetse n'izindi.

Abavuzi gakondo bagaragaje imiti bifashisha mu gutanga serivisi z'ubuvuzi ku barwayi babigana yaba ikomoko ku bimera ndetse no ku matungo atandukanye.